Umwana wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro gusa n'umukara iruhande rwe hari indobo iteretse ku kantu kameze nk'ameza akaba ari indobo yumweru ipfundiki umupfundikizo w'ubururu ikaba ifite n'umukondo w'ubururu inyuma ye hakaba hari urugo rwubakishije imbingo.

Mu cyumba bakaba bicaye ku ntebe zimeze nk'intebe z'urubaho, hakaba higanjemo abasaza bisa naho hari inyigisho baje gufata, bakaba bafite amakaye mu ntoki zabo barimo kugenda bandika ibitekerezo birimo gutangwa.

Abana bane bari kuvomo gakondo bigaragara ko barimo kuvoma bakoresheje imbaraga zabo, aho umwe ari gufata icyuma akajya akimanura hasi akongera akakizamura kugira ngo amazi aze, imbere kandi hari ijerekani y'umuhondo arimo kuvomeramo amazi.

Abantu barimo guterura imifuka, bisa naho ari imifuka irimo ifumbire, akaba ari imifuka y'umweru, bigaragara ko iremereye cyane, ni abantu barindwi, batatu akaba ari abagore naho abandi bane akaba ari abagabo.

Abantu batandukanye baje kuvoma amazi bakaba biganjemo igitsina gore bamwe bafite amajerekani y'umuhondo naho abandi bafite indobo z'umuhondo bakaba bazengurutse robine igizwe n'imigezi ine aho bamwe bari kuvoma ku ruhande rw'iburyo abandi bakavoma kurw'ibumoso naho abandi bakavoma rw'uburasirazuba abandi rw'iburengerazuba.

Abaganga batatu barimo kwifotoza, bigaragara ko bamaze gukora akazi kabo, hakaba harimo umwe hagati yabo wambaye itaburiya y'umweru bishoboka ko ari umuyobozi wabo, bakaba bambaye kandi udupfukamunwa bose ndetse n'utugofero tw'ubururu.

Abantu benshi batandukanye bisa naho barimo kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Imbere yabo hari umuntu w'umumama wicaye wambaye ishati y'icyatsi bisa naho ari umuganga, hirya ye hakaba hari undi mumama urimo kwandika ku mpapuro z'umweru.

Abana bishimye cyane bambaye udupira dusa tw'ubururu, twanditseho amagambo avuga ngo "UNICEF." bishatse kuvuga ko baba mu mushinga wa UNICEF ufasha abana mu rwego rwo kugira bagire ubuzima bwiza ndetse n'imyigire myiza.

Abantu bari kwa muganga. Hakaba hari umugore wambaye imyenda myiza y'ibitenge , ukikiye umwana wambaye agapira k'ubururu . Ndetse n'agakabutura kajya gusa n'umweru hamwe n'amasogisi y'umweru. Imbere ye hakaba hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu .Bisa naho ariwe urimo kubafasha kubona serivisi bifuza.

Ikirango cyiza kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ubona ko cyanditseho amagambo avuga ngo UNICEF. UNICEF akaba ari umuryango ufasha abana batishoboye, ni yo mpamvu ubona ko hasi hari andi magambo avuga ngo foru everi cadi, bishatse kuvuga ngo bafasha buri bana.

Abana babiri bishimye cyane ubona ko bombi barimo guseka, umwe uri imbere yamanitse ukuboko hejuru urutoki rumwe rwa mukubitarukoko ruri hejuru ubona ko asa n'uwishimye cyane, nawe rero ushobora kuza ukishimana na bo.

Amacupa abiri y'ubururu akaba ari amacupa azwi nka bomboni yifashishwa kwa muganga mu rwego rwo kongerera abarwayi umwuka igihe babuze umwuka, hirya hari igikoresho kimeze nka televiziyo kiba kigaragaza ukuntu umwuka ugenda.

Abantu bicaye ubona ko bateze amatwi umuyobozi urimo kubaha ikiganiro imbere yabo hari umumama wambaye itaburiya y'umweru ufite isakazamajwi y yumukara mu ntoki bigaragara ko ariwe urimo gutanga ikiganiro.

Abana bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'abambaye iya kake, bigaragara ko ari abanyeshuri, imbere yabo hakaba hari amasahani ariho ibiryo bisa na kawunga, bakaba bari bameze nk'abarimo gufungura amafunguro ya saa sita, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho ibintu bitandukanye bigaragara ko ari mu ishuri.

Ababyeyi babiri ndetse n'umwana mutoya, umubyeyi umwe aricaye akikiye umwana, hanyuma undi arahagaze yambaye itaburiya y'umweru bisa n'aho ari umuganga, akaba arimo kwasamura umunwa w'umwana, hari ikintu arimo kumutamika.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bicaye basa nk'abantu bateze amatwi ikiganiro runaka, hagati yabo hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro ya kake ndetse n'inkweto z'umweru bisa nkaho ari we urimo gutanga ikiganiro.

Abana benshi bahuriye ku ivomo bigaragara ko baje kuvoma amazi mu rwego rwo kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu rugo iwabo, akaba ari abana benshi ariko higanjemo abana b'abahungu.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'akandi kantu kazengurutse kari mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo avuga ngo UN WFP.

Abana bahagaze imbere y'ivomo rya gakondo bigaragara ko barimo kuvoma amazi, inyuma y'ivomo hari umuntu mukuru w'umukobwa urimo kujya amanura ikintu cy'icyuma bityo amazi akazamuka, hirya yaho hari imodoka y'umweru imeze nk'itoyota.

Abana babiri b'abakobwa bateruye indobo. Bisa naho bari barimo kuvoma amazi, umwe akaba agiye gukorera undi kugira ngo atahane amazi. Hakurya yabo, hari ibiti byinshi, bisa naho hari ishyamba.

Abana batatu barimo guseka, bambaye impuzankano kandi bahagaze imbere ya robine, barimo gukaraba intoki ubona ko bishimye cyane kubera ko barimo gukaraba intoki mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Abaganga bane bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, barimo kwita ku murwayi, umurwayi araryamye hejuru arikokokoye bishoboka ko yarembye cyane.

Abantu benshi batandukanye bari mu nama hakaba harimo abantu baturuka mu bice bitandukanye by'Isi higanjemo abazungu ariko hakaba harimo n'abirabura. Imbere ku meza hateretse ibikoresho byabo bifashisha ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abana bambaye impuzankano, bahagaze ku mavomo gakondo, bigaragara ko barimo kuvoma amazi, imbere y'amavomo hari indobo z'umuhondo ndetse n'akajerekani karindwi, bigaragara ko ari abarimu babatumye kuvoma amazi.

Abantu bambaye imyenda ahantu hose, bigaragara ko ari abantu barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, nabo bakaba bikingiye umubiri wose mu rwego rwo kugira ngo batandura, iruhande rwabo hari ibintu bimeze nk'inshundura bisa naho aribyo bari gukuraho.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko baje mu nama, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hirya hari inzu bigaragara ko ari ibiro by'ubuyobozi, imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda, bigaragara ko ari mu Rwanda, inyuma y'idarapo hari amatente abiri y'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi batandukanye ubona ko higanjemo abamama, bisa naho hari ikiganiro kirimo kuhatangirwa, imbere hari amatente abiri bigaragara ko ariho abayobozi bakuru bicaye, hepfo kandi hari imodoka iparitse ndetse hagati hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, kirimo abaganga bane ndetse n'abarwayi babiri, bose bambaye udupfukamunwa, abarwayi bose bambaye imyenda y'umukara ariko abaganga ntabwo bose bambaye imyenda isa.

Abantu bicaye ku meza atandukanye barimo kuganira baganira ku bintu bitandukanye, bigaragara ko ari abantu bakuru, bisa n'aho hari inama barimo kugirana, ku meza hateretse mudasobwa naho hakurya hari televiziyo nini izwi nka furati.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko barimo kwifotoza nyuma yo gukora igikorwa runaka, higanjemo igitsina gore abagabo barimo abenshi bambaye amakositimu bisa naho ari abayobozi, iruhande rwabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abamama batatu barimo kuvoma amazi, imbere yabo hari amajerekani menshi cyane ubona ko biraza gufata umwanya munini mu kugira ngo bavome amazi, bose bakaba bambaye ibitenge.

abantu bambaye amakositimu, bigaragara ko ari abayobozi, bakaba bari kumwe n'abandi bagore ariko higanjemo abagabo, bakaba bambaye neza cyane.

Abantu bicaye mu nama higanjemo igitsina gabo, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi ya Nili kandi buri muntu imbere ye hari agapapuro kanditseho amazina ye.

Ababyeyi benshi b'abagore bari kumwe n'abana babo bigaragara ko baje gukingiza abana, imbere yabo hakaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, bisa n'aho ariwe urimo kubafasha kubona serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umwana n'umusaza bari guseka bigaragara ko bishimye, umusaza yambaye agapira k'ubururu n'ijire yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, naho umwana yambaye agapira kajya gusa nk'umutuku, arimo guseka kandi yikoreye ijerekani iriho icyapa cya UNICEF mu ibara ry'ubururu, ndetse amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri ubona ko ari umugore n'umugabo, umugabo akaba ari umwirabura naho umugore akaba ari umuzungu. Bakaba bafashe igikapu cyanditseho amagambo avuga ngo Visit Rwanda. Umugabo yambaye ikositimu, naho umuzungu w'umugore we yambaye agapira ka tisheti n'ipantaro y'ikoboyi.

Abantu batandukanye bateraniye ku mugezi, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore hamwe n'abana. Umugore umwe afashe icyuma cy'umugezi arimo kugipompa amazi akaza, imbere hari umwana urimo kuvoma amazi ajya mu majerekani.

Abantu bicaye ku meza barimo kuganira, ubona ko bahuje urugwiro, bambaye neza amakositimu, amashati ndetse na za karuvati, mu nguni hari idarapo ry'u Rwanda ubona ko riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, kandi ku meza hari utuntu twinshi dutandukanye.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye higanjemo abagore bisa naho baje gukingiza abana kwa muganga, abamama bose barimo bafite abana ndetse n'amafishi, imbere hari umumama wambaye imyenda y'ibitenge kandi wipfutse igitenge.

Abana bunamye ku iriba bisa naho barimo gukaraba intoki, bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, inyuma yabo hari ibiti bisa naho ari ishyamba. Akaba ari ibiti bibafasha kubona umwuka mwiza ndetse n'amahumbezi.

Abana bambaye impuzankano ya kake, bisa naho ari abanyeshuri. Bahagaze ku migezi gakondo barimo kuvoma amazi. Barimo kuvomera mu ndobo ndetse kandi bafite n'utujerekani, inyuma yabo hari indabo z'imikindo, hakurya hari inzu isakaje amabati.

Umugabo wambaye neza cyane akaba yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu ndetse n'ipantaro nziza y'umukara n'inkweto z'umukara ziterwa sirage akaba yunamye arimo gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe iriho akajerekani karindwi k'umuhondo, hirya ye hakaba hari ururabo ruriho amabara y'umutuku.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, bigaragara ko hari ingingo runaka barimo kuganiraho, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye by'itumanaho, hakaba hari n'uducupa tw'amazi. Hirya yabo ku gikuta hari icyapa kigaragaza serivisi z'ibyo bakora.

Umugabo wishimye cyane, wambaye ishati y'amaboko magufi iciyemo uturongo, n'ipantaro y'itisi y'umukara, afashe ku ijerekani y'umuhondo, ahagaze ku ivomo, bigaragara ko aje kuvoma amazi, hakurya kandi hari inyubako iri iruhande rw'urugo, rumeze nk'urw'imiyenzi.

Abantu babiri, umwe ni umuganga undi ni umwana umuganga yambaye itaburiya y'umweru n'akantu mu ijosi k'ubururu ikindi kandi mo imbere yambariyemo ishati y'amaboko maremare ya karokaro ndetse akaba anambaye Ga mu ntoki naho umwana yambaye ishati y'ubururu bigaragara ko umuganga ari gutera umwana urushinge ku rutugu.

Umubyeyi w'umumama ufite insakazamajwi mu ntoki y'umukara, akaba yambaye isaha ku kuboko bigaragara ko akuze cyane. Inyuma ye hari ikirango kiri mu mabara y'ubururu, bisa naho hari ikiganiro arimo gutanga mu rwego rwo gukora ubukangurambaga.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye barebana ubona ko harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi kandi hagati yabo nanone hanyuze akarongo keza cyane gateretsemo amavaze, akaba ari amavaze arimo uturabo twiza tw'icyatsi kandi hakurya hari igiteleviziyo kinini.

Umwana urimo kuvoma amazi, akaba arimo kuvoma amazi akoresheje igikombe cy'icyuma abenshi bitaga ikigozi. Yambaye agapira k'amaboko magufi ka oranje ndetse n'ikabutura y'ubururu. Ikindi akaba ari kuvoma ku ivomo rusange cyangwa se ivomo rya gakondo.

Umwana usutamye urimo guseka akaba ateze ibiganza arimo kuvoma amazi ayavomera mu biganza, imbere ye hakaba hari amajerekani atatu, ijerekani ebyiri z'umuhondo ndetse n'ijerekani imwe y'ubururu.

Abamama babiri bicaye ubona ko bishimye kubera ko bose barimo kumwenyura. Umumamo umwe wicaye iburyo yambaye agakote keza karimo utubara tw'umukara, naho undi wicaye ibumoso yambaye agakanzu karimo utubara tumeze nk'utuyugunyugu.

Umuntu wambaye imyenda yacikaguritse bisa n'aho ari umusazi, ku ruhande rumwe rw'ukuboko afitemo ikintu kimeze nk'igitebo, naho ku rundi ruhande afite igifurumba kimeze nk'irimo imyenda. Inyuma ye hari imodoka y'ikamyo irimo gutambuka mu muhanda.

Umumama wambaye agashati keza kadoze mu bitenge, abenshi bita iribaya. Yambaye urunigi mu ijosi, mu maso agaragara nk'ushaje, bigaragara ko ari umuntu mukuru. Ahagaze mu iduka, ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Abana bambaye imyenda y'incabari, barimo kurira, bamwe bateze amaboko, bigaragara ko bahohotewe bakaba barimo gusaba ubufasha. Ikindi kandi, urabona ko ari abana baturuka ahantu mu bakene kuko basa nabi, urebye n'imisatsi yabo urabona ko badaherutse kwiyogoshesha.

Umubyeyi w'umukecuru bigaragara ko ashaje cyane, yicaye hagati y'abana benshi cyane, bisa n'aho ari abuzukuru be, biragaragara ko batishimye cyangwa se bashonje.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bigaragaza ko bari mu nama cyangwa se hari ikiganiro baje gukurikirana, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere hari umugore uhagaze wambaye agakote k'umukara n'ikanzu ijya gusa n'umweru bigaragaza ko ari we urimo gutanga ikiganiro.

Abantu bicaye higanjemo igitsina gore hakaba harimo umugore bigaragara ko arimo kuburana bisa naho ababaye cyane ashobora kuba yarenganyijwe. Hirya hari abandi bagore bamukikije ndetse n'umugabo wicaye ku ruhande rw'inyuma.

Abana bishimye cyane, bambaye imipira y'umuhondo, bigaragara ko ari abanyeshuri. Ikindi kandi, biragaragara ko bicaye muri Sitade barimo kureba umupira mu rwego rwo kugira ngo bishime kandi bidagadure.

Ikirango cyamamaza kiriho umudamu, wambaye ishati ijya gusa n'icyatsi, akaba yambaye amadarubindi ndetse n'amaherena, afite imisatsi ya natireri yazirikiye inyuma, imbere ye hari insakazamajwi, ahagaze ku gatute mu rwego rwo kugira ngo atange ikiganiro kubi bijyanye n'ubuzima.

Umugabo wicaye, wambaye ikabutura, akaba yiyambitse ipine ry'imodoka, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, akaba afite ubwanwa bwinshi ndetse n'imisatsi myinshi, iruhande rwe hahagaze abandi bagabo.

Abantu bahagaze bigaragara ko ari abagore n'abagabo basa nkaho ari abayobozi, bambaye imyenda myiza abagabo ubona ko bambaye imyenda y'amakositimu n'aho abagore bambaye imyenda isanzwe.

Umukobwa mwiza urimo guseka, yambaye agapira keza k'umutuku, n'akandi k'ubururu, akaba afite amenyo meza y'umweru, umusatsi mwiza wa natireri, akaba afite uruhanga rwiza, bigaragara ko afite mu maso hishimye.

Umusore wambaye agapira k'umukara, washyize amaboko mu maso, inyuma ye hejuru hari akantu kameze nk'akabaho gateretseho udutako two mu nzu, akaba inyuma ye kandi hari igikuta kiri mu ibara rijya gusa nka gireyi.

Umukecuru wambaye imyenda y'incwabari yambaye inkweto zishaje, yambaye ijipo ijya gusa n'umutuku, yambaye ikote rijya gusa ni'kigina, afite ibyatsi mu ntoki n'ishashi, afite n'umufuka ku rutugu rwe ndetse mu mutwe we harimo igitambaro, iruhande rwe kandi hari amacupa yamazi.

Inyubako nziza ubona ko igaragara neza cyane kandi ikeye, imbere y'umuryango iburyo n'ibumoso hari imikindo ubona ko bisa neza cyane, hejuru y'umuryango hari amagambo avuga ngo Caraes freress de la charite, bishatse kugaragaza ko bavura indwara zijyanye no mu mutwe.

Abantu babiri bicaye bisa n'aho bari gutanga ikiganiro, umugore yambaye ikoti ry'ubururu, afite n'insakazamajwi mu ntoki, umugabo yambaye ikote ry'ikositimu, rijya gusa nk'umukara n'agapfukamunwa, imbere ye hateretse agacupa k'amazi, inyuma yabo hari ibirango byamamaza bya RBC.

Umugabo wicaye muri rigori ubona ko yambaye imyenda imeze nk'ibitambaro kandi yanduye, afashe ishashi mu ntoki kandi iruhande rwe hari ibindi bintu ubona bimeze nk'utujerekani byanduye, akaba afite umusatsi mwinshi kandi urimo ivumbi bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu batanu bicaye barimo kuganira, bisa n'aho bari gukora inama y'umuryango, akaba ari abagore bane ndetse n'umugabo umwe, abagore babiri muri bo bafite amakaye bisa n'aho barimo kujya bandika ibitekerezo birimo gutangwa, inyuma yabo kandi hari insina nyinshi ndetse n'ibiti.

Umudamu urimo guseka, wambaye isengeri y'umuhondo, bigaragara ko ari umucuruzi uhagaze mu iduka. Mu iduka hakaba harimo ibintu bitandukanye, harimo amasarisa, amasorwatomu ndetse n'ibindi.

uUmukobwa mwiza cyane urimo guseka akaba arimo kwirebama mu ndorerwamo .Afite iherena ku izuru kandi afite n'andi maherena ku matwi akaba yambaye ikintu kimeze nk'itaburiya kiri mu mabara ajya gusa nk'ubururu, akaba yambaye n'agapiramo imbere kajya kumera nka karokaro. Hirya ye kandi hari igikoresho cyifashishwa mu gusukura intoki kizwi nka lavabo.

Abana benshi bicaye mu ishuri bambaye impuzankano bigaragara ko bari mu ishuri, buri mwana afite agashashi karimo uburoso bw'amenyo, bigaragara ko bigishijwe uburyo bwo koza amenyo.

Umugabo wasamye urimo guseka, akaba afite ubwanwa bwiza cyane, ubona bwogoshe neza, akaba afite inyogosho nziza, abenshi bita turuwa kushe, mu maso ni inzobe, afite amaso meza, bigaragara ko anezerewe, akaba yambaye agapira kajya gusa n'ubururu bwijimye.

Kikaba cyifashishwa mu gihe abarimu barimo kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'indwara zifata amenyo ndetse n'uburyo wasukura amenyo, iki akaba ari igishushanyo kiba cyarakozwe hakurikijwe ukuntu imiterere y'umuntu imeze.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, arimo kuvura umurwayi amukura iryinyo, bigaragara ko yarwaye amenyo. Umuganga yambaye ga z'umweru, yambaye kandi agapfukamunwa ndetse n'amataratara.

Umukobwa urimo guseka, ufite amenyo meza maremare kandi y'umweru, akaba yahuje intoki mu buryo budasanzwe. Afite amaso meza y'umweru n'imboni z'umukara, akaba ari umukobwa w'imibiri yombi.

Umuntu wikokoye, ufite isumi nziza y'umweru ku rutugu, akaba afite akadodo keza k'umweru abenshi bita akadeyi, afite amenyo meza y'umweru, akaba arimo guseka bigaragara ko anezerewe.

Abantu bahagaze mu ishuri bisa naho harimo umugabo urimo kwigisha uburyo bwo koza amenyo. Umugabo urimo kwigisha uburyo bwo koza amenyo afashe uburoso mu ntoki, arimo kwereka umwana uburyo boza amenyo. Inyuma kandi hahagaze umumama w'umuzungu n'undi w'umwirabura, ndetse iruhande rwabo hahagaze undi mugabo wambaye ikositimu bisa nkaho ari umuyobozi.

Abantu barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hakaba hari umurwayi wasamye umuganga arimo kumureba mu kanwa bigaragara ko barimo kuvura indwara zifata mu kanwa. Umuganga urimo kumuvura yambaye ga z'umweruru mu ntoki n'agapfukamunwa k'umweruru ndetse n'itaburiya y'umweru.

Umwana w'inzobe arasamye bigaragara ko hari umuganga urimo kureba mu kanwa ke kugira ngo asuzume niba amenyo ye nta kibazo afite, yegamye ku kantu k'umutuku hanyuma umuganga uri kumukora ku kumunwa yambaye ga zijya gusa nk'icyatsi.

Umukobwa mwiza cyane urimo koza amenyo akoresheje uburoso bwoza amenyo bw’ubururu, afite amenyo meza cyane y’umweru, yipfutse igitambaro cyiza cy’umweru kandi yambaye n'agasengeri keza k'umweru.

Abantu bicaye ubona ko bambaye udupira dusa, bisa naho baje kwivuza, hari abandi bahagaze bambaye ga mu ntoki n'udupira tw'umweru bisa nkaho ari abaganga, biragaragara rero ko baje kwivuza amenyo.

Umugabo urimo guseka ufite amenyo y'umweru afashe akadodo kameze nk'akadeyi k'umweru arimo kugakoza ku menyo, afite ubwanwa ubona ko atari bwinshi cyane akaba arimo guseka cyane bigaragaza ko yishimye cyane.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hejuru harimo amatara atandukanye, naho ku ruhande rw'imbere hari televiziyo nini ya fulati, naho hasi hakaba hari intebe y'umutuku, umuganga yicaraho.

Umugabo urimo guseka wishimye cyane, wambaye agapira keza cyane bita runiga bigaragara ko anezerewe cyane, afite umusatsi mwiza w'umukara bigaragara ko yiyogoshesheje inyogosho abenshi bita turuwakushe.

Umwana urimo guseka yashyize uburoso bw'amenyo mu kanwa, yambaye agakanzu keza k'utubara kajya gusa n'icyatsi kibisi ndetse n'agapira mo imbere k'umweru, yicaye ku ntebe y'ubururu kandi mu mutwe we hariho agatako kameze nk'ururabo.

Umukecuru wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ikanzu mo imbere ijya gusa n'icyatsi, afite ifoke mu ntoki hamwe n'isahani mu ntoki, iriho ibyokurya bigaragara ko agiye kurya. Arimo guseka cyane bisa naho yanejejwe n'ibyo kurya agiye kurya.

Umusaza wicaye muri ravabo barimo kuhagira, afite imvi z'umweru ndetse no mu bwanwa afite imvi z'umweru, mumutwe we hari urufuro rurimo kumanuka bigaragara ko bamukarabijemo isabune.

Umugore n'umugabo bicaye barimo kuganira bisa naho hari ibintu umugore arimo kwereka umugabo kubera ko afite agapapuro. Umugore kandi yambaye impeta eshatu. N'umugabo yambaye impeta imwe ndetse n'ikinigi ku kuboko. Kandi na none yambaye agapira keza ka rakosite kajya gusa n'ubururu.

Umusaza n'umukecuru bishimye bigaragara ko banezerewe bakaba bameze nk'abashaka gusomana. Umusaza yarambitse umutwe we ku mukecuru, umukecuru arimo kumwenyura, umukecuru yambaye agatambaro mu mutwe k'umutuku n'ikote rijya gusa n'umukara, n'umusaza yambaye ikote rijya gusa n'umukara.

Abantu benshi bicaye mu buryo bw'uruziga, bigaragara ko hari ikintu barimo kuganiraho, higanjemo igitsina gabo, naho abagore ni bakeya cyane, harimo umusaza wambaye igisarubeti cy'umweru, kandi afite imvi mu bwanwa.

Abantu babiri bicaye bisa naho bari gusoma urwandiko, umusaza yambaye ishati ya karokaro n'amarinete akaba afite ubwanwa burimo imvi n'umusatsi, naho umukecuru afite umusatsi urimo imvi akaba yambaye agashati kameze nka oranje, ikindi imbere yabo hari impapuro nyinshi.

Abamama babiri ubona barimo kuganira umwe ameze nk'ukuze naho undi ameze nk'umuganga umwe afite akantu mu ntoki kajya kumera nka ruje borido naho undi ahagaze iruhande rwe ari kumwitegereza kandi yambaye ishati nziza ijya gusa nk'ubururu bwijimye.

Abantu bambariye ubukwe, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'umwitero w'umukara ikindi akaba yambaye ingofero nziza ijya gusa n'ikigina, naho undi yambaye umwitero w'umweru, akaba yambaye ishati ijya gusa n'ubururu ndetse n'ingofero ijya gusa n'umukara, ikindi kandi akaba yambaye n'amarinete bose kandi ni abasaza.

Umuganga w'umukobwa, wambaye itaburiya y'umweru, arimo gusuzuma umusaza wambaye ishati y'ikigina kugira ngo amenye uko umubiri we uhagaze. Ashaka kumusuzuma umuvuduko w'amaraso.

Umusaza wishimye cyane urimo guseka, wambaye ekuteri, akaba yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba arambuye amaboko, ateruye utwuma mu ntoki, arimo gukora siporo, mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza, hejuru hari ikirere cyiza gisa n'ubururu.

Abantu babiri barimo kuganira baseka ubona ko ari umukecuru n'umusaza, umukecuru yambaye agapira k'umutuku naho umusaza yambaye agapira ka rakosite kajya gusa n'ubururu, bose bafite imvi.

Abantu babiri bafatanye ku rutugu bigaragara ko banezerewe, umwe ni umumama undi ni umupapa, umumama yambaye ikote ry'ikoboyi ndetse n'agapira k'umweru n'uturongo dutambitse, ikindi kandi yambaye amarinete naho umupapa yambaye agapira ka burefotse n'ikote rijya gusa nka oranje.

Abadamu batatu bishimye cyane ubona ko barimo guseka, bakaba barimo kwifotora, umwe wo ku ruhande rw'ibumoso, yambaye agashati k'umweru n'amaherena, uwo hagati yambaye agapira k'umuhondo afite telefone mu ntoki barimo kwifotoreramo, undi wo ku ruhande nawe yambaye agapira k'umweru.

Umusaza ufite imvi z'umweru, uteruye umwana, bigaragara ko ari umwuzukuru we, akaba afite n'igipupe. Umusaza yambaye agashati keza ka karokaro kubera ko gaciyemo uturongo kandi umwana na we yambaye agashati karimo uturongo dutambitse tw'umweru.

Abagabo babiri banezerewe barimo gutambuka mu nzira, bose bambaye amashati y'umweru, ariko umwe yambaye ipantaro y'itiriningi ijya gusa nk'ubururu, naho undi yambaye itiriningi irimo akarongo kamanutse k'umweru, ahandi hakaba hasa ubururu, ikindi kandi afite agatambaro k'umukara ku ijosi, bose bafite uducupa tw'amazi mu ntoki.

Abadamu babiri bishimye, bose barambuye amaboko barimo guseka, barimo kureba iburyo bwabo; umwe yambaye agapira kajya gusa n'ivu, undi yambaye agakanzu kari mu ibara rijya gusa n'icyatsi.

Abantu bicaye baguwe neza, bambaye neza, bigaragara ko baje mubu bukwe, akaba ari umugabo n'umugore kandi inyuma yabo hari abantu benshi bari mu gisharagati, umugabo yambaye ishati nziza ya karokaro, yakenyeye, yambaye n'ingofero y'umukara naho umukecuru yambaye umukenyero n'agapira k'ubururu ndetse n'urunigi mu ijosi.

Abantu babiri bahagararanye, umwe ni umusaza undi ni umukecuru, umusaza yambaye ishati ya karokaro afite agacupa k'umukara mu ntoki, naho umukecuru yambaye ishati ijya gusa n'umweru yambaye amataratara ndetse n'amaherena, imbere ye hari mudasobwa, ikindi ku meza hateretse uducupa tubiri tw'umweru n'impapuro.

Umusaza urimo kuganira n'umwana bakaba bafite udukoresho mu ntoki bisa nkaho barimo gukina gemu, bakaba ubona ko bishimye cyane, umusaza yambaye umupira wumuhondo n'ipantaro y'ikoboyi naho umwana yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi.

Umurwayi uryamye mu bitaro akaba yambaye ikintu ku kuboko cy'umukara bigaragara ko barimo kumupima kugira ngo bamenye uko umubiri we uhagaze, inyuma ye kandi hari umuganga waje kumusuzuma, akaba na none aryamye iruhande rw'icyuma bifashisha bamusuzuma.

Abaganga batatu bambaye imyenda y'icyatsi, ingofero z'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa, barimo gutunganya ibikoresho byo kwifashisha mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, imbere yabo hari ibyuma bimeze nka televiziyo, byifashishwa mu gihe barimo gusuzuma umurwayi kugira ngo bamenye uko ahagaze.

Abantu batatu, umwe akaba yicaye abandi babiri bahagaze bose bambaye udupfukamunwa kandi uwicaye yambaye agashati k'umweru ndetse afite n'amarinete ku mabere, bigaragara ko ari umurwayi, naho abahagaze akaba ari abaganga kuko bimeze'aho bari kumutera urushinge.

Ikinyamakuru cy'imvaho cyanditseho umutwe uvuga ngo ''Nnyuzi leta'' hakaba hariho ifoto igaragaza umubyeyi ukikiye umwana, umubyeyi akaba yipfutse igitambaro mu mutwe, inyuma ye hakaba hari abandi bantu.

Ikirango cyamamaza gishushanyijeho inyubako yubatse muburyo bwa mibiriringo, iri mu mu mabara y'ubururu, oranje ndetse n'icyatsi, iruhande rwayo hakaba hari umukobwa wambaye ijipo y'ubururu, umupira ujya gusa n'umutuku ndetse akaba afite n'imisatsi ijya gusa n'ubururu, hejuru hakaba hari amagambo avuga ngo wodi dayabeti dayi.

Abaganga babiri bambaye imyenda isa ndetse n'ingofero zisa, bose kandi bambaye udupfukamunwa. Bigaragara ko barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, umuganga umwe arimo gucana mu kanwa k'umusaza, bigaragara ko arimo kureba ikibazo afite mu kanwa, umusaza yambaye ingofero y'ubururu, akaba yambaye ishati n'ipantaro by'umukara.

Abantu batandukanye higanjemo igitsina gore, bicaye mu bitaro kwa muganga barimo gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Umusore wicaye imbere yambaye akajire karimo ibara ry'icyatsi kandi yambaye n'agapfukamunwa k'umweru, naho umuganga urimo kumuha serivisi, yambaye ikintu kimeze nk'ikirahuri ku maso.

Abantu bicaye bari mu nama, bamwe bicaye imbere bigaragara ko ari abayobozi, akaba ari abantu batandatu. Batanu muri bo ni abagabo naho umwe ni umugore, abandi bicaye nk'indorerezi bigaragara ko bakurikiranye inama naho abicaye imbere akaba ari abayobozi barimo kubagezaho ikiganiro.

abantu bicaye bari mu nama akaba ari abagabo ndetse n'abagore abagabo ni bane naho abakobwa ni babiri imbere yabo kandi hari abantu babateze amatwi bigaragara ko hari inama iri kuba inyuma y'abayobozi hari icyapa cyanditseho okipetional helfu andsapfet conference bibiri na makumyabiri na kane

Ikirango kiri mu'i ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, mbere na mbere imbere y'amagambo hari umubare gatatu, hagakurikiraho amagambo avuga ngo GOOD HEALTH AND WELL-BEING, hasi hakaba hari umurongo uvunaguye hagasoza agashushanyo kagaragaza umutima.

Abakobwa beza benshi cyane, barimo kwifotoza ubona ko bishimye cyane, bisa naho hari umunsi mukuru barimo kwizihiza. Nawe rero ushobora kuza ukifatanya na bo, mugafatanya kwishimira ibyo barimo kwizihiza.

Abantu babiri bafite icyapa cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira bigaragara ko barimo gukangurira abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu mu rwego rwo kwirinda igituntu kubera ko kivurwa kigakira, umuhungu yambaye ishati y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko n'impeta ku rutoki naho umukobwa yambaye agakote k'umukara.

Abaganga bicaranye n'abarwayi barimo gutanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, umuganga umwe w'umumama yambaye ishati y'ubururu yifashishwa kwa muganga akaba ari kumwe n'undi wambaye itaburiya y'umweru kandi iruhande rwe hicaye undi mukobwa wambaye agakote k'umukara, imbere hakaba hari ababyeyi barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Abantu barimo kwaka serivisi zitandukanye, zijyanye n'ubuvuzi. Hakaba hari umugore urimo guha serivisi undi mukobwa, amupima umuvuduko kugira ngo amenye uko umubiri we uhagaze.

Abantu babiri bahagaze umwe n'umugabo undi ni umugore. Umugabo yambaye ikoti ry'ikositimu n'ipantaro yaryo, akaba yambaye ishati y'ubururu. Naho umugore yambaye agakanzu kagufi kageze hejuru y'intege akaba yambaye n'isaha ku kuboko ndetse n'inkweto zihagaze inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Inyubako nziza cyane kandi ngari bigaragara ko ari gorofa, imbere yayo hari abantu benshi cyane bashobora kuba baje kuhasaba serivisi zitandukanye, imbere y'igipangu gikikije iyi nyubako hari imodoka iparitse.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo umuntu uryamye ku buriri bigaragara ko ari umurwayi, iruhande rwe hari ibyuma byinshi bimanitseho ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragara ko barimo kumwongerera amaraso. Hirya hari ibindi bikoresho byinshi bimeze nka za bomboni.

Abantu benshi bateraniye hamwe imbere y'inyubako izwi nk'inzu y’ababyeyi mu ndimi z'amahanga bita materineti urabona ko hari abantu bishimye harimo abantu batandukanye ndetse n'inzego z'umutekano aho harimo umuntu wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda naho abandi bakaba bameze nk'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga.

Inyubako nziza cyane, ubona ishimishije itatse amabara meza atandukanye, harimo ubururu, ikigina, umweru ndetse n'andi mabara menshi cyane atandukanye, ifite urubaraza rwiza cyane kandi ifite n'ahantu ushobora guparika imodoka heza cyane kandi hisanzuye, hejuru kandi hari ikirere cyiza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, akaba ari icyumba gisukuye giteyemo amarangi meza atandukanye, hejuru hariho parafo nziza iriho n'amatara y'umweru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bw'ikizeru, ubona ko ari inyubako nziza cyane igezweho, iruhande rwayo hari inzira inyuramo imodoka ziza mu rugo aho yubatse, na ho imbere yayo hari akajaride keza ubona ko hateyemo umucaca.

Inyubako yubatse neza kandi ifite isuku, bigaragara ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bujyanye no gucuruza imiti, imbere yayo hari icyapa cyanditseho ngo "Progress Farumasi".

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bitandukanye, hakaba haryamyeho abantu bigaragara ko ari kwa muganga rero hejuru hari za supanete, zifashishwa mu gutwikira abarwayi nijoro kugira imibu itabaruma bityo bakarwara malariya.

Icyumba cyiza cyane gisa neza ubona ko gitatsemo amabara atandukanye, hakaba harimo igishushanyo cyiza cy'akanyamasyo, ikindi kandi harimo intebe nziza ubona ko ari intebe zigezweho.

Abaganga batatu bambaye amatabuririya y'umweru kandi bambaye ga zijya gusa nka move, urabona ko bishimye cyane bakaba barangije akazi kabo, imbere yabo hari icupa rivamo amavuta y'ubuto ya ruwayare.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, mu ibara ry'umutuku handitsemo amagambo avuga ngo ikigonderabuzima cya Matyazo. Hasi yaho hakaba hari irindi jambo rivuga ngo health center, hasi mu ibara ry'umweru hashushanyijemo ikirangantego cy'u Rwanda.

Akamodoka keza gaparitse iruhande rw'inyubako hejuru ku nyubako hari icyapa cyanditseho ''Medisoru farumasi Remera'', bishatse kuvuga ko batanga imiti cyangwa bacuruza imiti ku bantu baje babagana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe barimo kumusuzuma, iruhande rwacyo hari igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi mu rwego rwo kumenya uko ahagaze. Hirya hari akapa kariho ururabo rwiza cyane bisa naho ari umutako.

Inyubako yubatse neza iteye amarangi y'umuhondo, na ho ku madirishya hakaba hateye amarangi y'icyatsi, akaba ari inzu ababyeyi babyariramo, imbere yayo hakaba hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto zijya gusa n'ikigina.

Abantu batandukanye, bari imbere y'inyubako nziza cyane, bambaye bose udushati twiza tw'umweru, turabagirana, kandi bafite utuntu mu ntoki tumeze nk'udutebo dusa, turimo utuntu tumeze nk'udushashi tw'umweru, imbere kuri iyo nyubako hejuru, hari amagambo avuga ngo KFH Rwanda.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere hari abantu bane bicaye, bigaragara ko ari abayobozi, imbere ku meza hakaba hateretse uducupa tw'amazi ndetse hashasheho igitambaro cy'icyatsi, na ho aho abateze amatwi ibiganiro bicaye na ho hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse bamwe bafite na za mudasobwa.

Inyubako nziza yubatse ahantu hitaruye ubona ko yubatse mu buryo bwa mpande enye, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane, hakaba hari n'ikigega cy'umukara kandi hari n'agati keza kameze nk'umwembe.

Inyubako nziza isukuye iteye amarangi meza, ubona ko harimo intebe nziza cyane zigezweho ndetse ubona ko hejuru harimo amatara meza cyane y'umweru, amurika neza bityo hakagaragara neza kandi hasi harimo itapi nziza cyane inyerera.

Umuganga wambaye ishati y'icyatsi kibisi ndetse n'ipantaro y'icyatsi kibisi arimo gutambuka mu cyumba cyiraramo abarwayi, icyumba kirimo ibitanda byinshi by'umweru ndetse n'ibitambaro bikikiza abarwayi biri mu mabara y'ubururu.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bwiza cyane bugezweho, ubona ko ari inyubako nziza ya kijyambere, munsi y'urubaraza hahagaze umukobwa wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'akajipo karimo utubara tw'umutuku.

Abantu bicaye ahantu muri koridoro bisa naho hari serivisi bategereje, imbere hari abandi barimo kugenda ndetse n'undi mugabo uhagaze kandi bose bambaye udupfukamunwa, bisa naho yari mugihe cya kovide.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako yanditseho amagambo avuga ngo Isange one stop center Kabutare Hospital, bishatse kuvuga ko ari ikigo kiri mu Karere ka Huye aho wasanga ibitaro bya Kabutare.

Umucaca mwiza cyane usa icyatsi kibisi rwose biragaragara ko ari umucaca witabwaho cyane kubera ko urimo isuku. Iruhande rw’aho hari akayira kanyuramo imodoka ndetse n'abanyamaguru kandi iruhande rwako kayira hakaba hari inyubako nziza cyane itambitse.

Inyubako ngari ijya gusa umweru, ikaba yanditseho amagambo avuga ngo iniverisite nasiyonari di Rwanda. Imbere yayo hari ibiti byakuze cyane bisa n'indabo, imbere y'indabo kandi hari umugabo uri kumanuka wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umutuku. Nano imbere hakaba hari undi muhungu wambaye agapira k'umutuku wegamye.

Inyubako irimo ibyuma byinshi cyane bitandukanye ubona ko ari ibyuma byifashishwa mu buvuzi, harimo kandi ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje kwicisha mu byuma.

Inyubako nziza, yubatse neza mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako yubakishije amatafari meza, ya ruriba. Hejuru ikaba isakaje kandi amabati meza. Imbere yayo hari amatara akoresha imirasire, ndetse n'ubusitani bwiza. Hakurya hari imisozi.

Inyubako nziza y'igorofa yubakishije amatafari ahiye, akaba ari inyubako igeretse gatatu, ikindi ikaba ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, imbere yayo hejuru hari icyapa cyanditseho polikiliniki dore tuware, bigaragaza ko batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umubyeyi urimo guseka bigaragara ko yari arwaye ariko ubu ngubu akaba arimo gukira, iruhande rwe hari ibyuma bigaragara ko ari ibyuma kwa muganga bamucometseho mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza, yambaye ishati y'umweru kandi yegamye ku gitambaro cy'umweru.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, aho umuntu uje kwicisha mu cyuma, ibyuma babimukozaho bityo bakamenya uko umubiri we uhagaze, imbere hari ikintu kimeze nka televiziyo, baboneramo uko umurwayi umubiri we uhagaze, ku gikuta kandi hari ishusho ishushanyijeho utuntu twinshi dutandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi zitandukanye, kirimo ibikoresho byinshi bijyanye n'ubuvuzi byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo kandi ibintu bimeze nk'ibitanda abarwayi baryamaho igihe baje kwivuza.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho ikaba isakaje amategura ya kijyambere hakaba hari abantu barimo kuyijyamo bigaragara ko hari serivisi baje kwaka, hirya yayo hari ishyamba, iruhande rwayo hakaba hari abantu barimo gutambuka umwe yikoreye indobo y'ubururu undi iy'umutuku, hino yabo kandi hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba cyiza gikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye abenshi bazi nka Radiography, harimo ibyuma byiza cyane bihenda, ubona ko ari ibyuma bifite ubushobozi buhambaye, akaba ari ibyuma bishobora kukureba mo imbere, bikerekana uburyo umubiri wawe uhagaze.

Ahantu hasa neza ubona hubatse neza, hari abantu benshi batandukanye baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima, hakaba hari abagore ndetse n'abagabo, akaba ari ku kigo nderabuzima cya tabagwe.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Kirimo ibikoresho byiza cyane, agatebe keza cyane kariho umufariso w'umutuku ndetse naho begamira h'umutuku, igitanda cyiza cyane kiri mu mabara y'umutuku, ndetse n'intebe nziza umuganga yicaraho y'umutuku ndetse kandi imbere hari mudasobwa.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye abantu bita farumasi, harimo imiti itandukanye myinshi cyane iri mu mabara atandukanye, harimo utubati twinshi tugiye turimo imiti iri mu bwoko butandukanye.

Abantu batanu barimo guseka ubona ko bishimye cyane, akaba ari abantu bane ba abakobwa cyangwa se abamama na ho undi akaba ari umugabo, abamama urabona ko rwose basa neza kandi bishimye cyane ariko nanone n'umugabo nawe arishimye cyane kuko arimo guseka.

Inzu nziza isa neza iteye amarangi y'umweru bigaragara ko ari ahantu hitabwaho cyane hagakorerwa isuku. Harimo ahantu henshi hatandukanye ho gukarabira ukaba waza ukahakorera amasuku bityo ukagira isuku mu rwego rwo kwimakaza isuku. Harimo utubati twiza ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye.

Abaganga batandukanye, barimo gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, akaba ari icyumba cyiza ubona ko gisukuye, kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi, iruhande rw'ibitanda by'abarwayi hari ibitambaro by'ubururu ndetse na za supanete bifashisha mu gutwikira abarwayi, kandi imbere y'abarwayi hari intebe abaganga bicaraho z'umukara.

Ahantu heza cyane hagaragara neza ubona ko hubatse neza hari jaride nziza ubona ko hari indabo ziconze neza ndetse n'umucaca uconze neza hari abantu bahagaze mu mucaca umwe yambaye agapira k'umutuku naho abandi baricaye, hirya kandi hateye imikindo n'inzu nziza cyane.

Inzu ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi, ikaba ishushanyijemo utuntu twinshi twiza cyane, aho hashushanyijemo umugabo ubyibushye cyane umeze nk'umugore, hakaba hari n'abandi bantu benshi bashushanyijemo ubona ko ari ibintu byiza cyane bigaragara neza. Harimo igitanda cyiza n'agatebe keza k'umukara.

Inyubako nziza y'ubuvuzi cyangwa se ikorerwamo ubuvuzi, irimo ibyuma byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho ubona igitanda, ukabona n'akandi gakoresho bahagararaho barimo gupima umurwayi, ndetse n'ikindi cyuma bareberamo uko umubiri w'umurwayi uhagaze, rero nawe waza ukicisha mu cyuma.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ubuvuzi, harimo igitanda kijyamwaho n'umurwayi, hakaba harimo udukoresho tumeze nk'ameza, abaganga barambikaho ibikoresho bijyanye n'imiti, ikindi hakaba harimo n'intebe umuganga yicaraho kandi hirya mu nguni hakaba harimo igikoresho umuganga yifashisha apima umurwayi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi abenshi bita muri radiyogarafi, kirimo ibyuma byiza cyane ndetse n'agatanda keza kariho igitambaro cy'icyatsi kibisi, aho umurwayi aryamaho maze ibitara bikamumurikaho bityo muganga akamenya aho umubiri ufite ikibazo.

Irembo ryiza rigana mu bitaro by'i Kabgayi, ubona ko ari irembo ryiza, imbere mu kigo hakaba harimo ibiti byiza cyane ndetse n'abantu barimo gutambuka, bisa neza rwose, ubona ko ari ahantu hatuje cyane.

Inzu nziza ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso harimo amataratara menshi cyane bigaragara ko bacuruza amataratara ku bantu barwaye amaso, imbere y'amataratara hari igishushanyo kiriho akarongo k'umutuku, hasi hakaba hari igishushanyo cy'umugore wambaye amataratara ndetse ufite umusatsi muremure w'umukara.

Inyubako y'igorofa yubatse mu buryo bugezweho imbere yayo hari akazu k'umuhondo bigaragara ko ari akazu gatangirwamo serivisi za MTN, imbere yaho hari uruzitiro rukikije iyi nyubako imbere y'inyubako hari icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa hakaba handitseho amagambo avuga ngo Hopital la croix du sud.

Umuganga wambaye ikote ry'ikositimu yakoze kuri mudasobwa imbere ye, akaba arimo kwitegereza hakurya muri televiziyo areba uko imbavu z'umurwayi zimeze.

Inyubako irimo ibitanda byinshi cyane ndetse n'abantu baryamye, bigaragara ko ari kwa muganga, hari ibitanda bimwe na bimwe hejuru ubona ko hari za supanete, bishatse kuvuga ko ari mu bitaro bikuru kugira ngo barinde abarwayi.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu mu imbere akaba ari umweru ariko amagambo yandikishije ubururu, cyanditseho amagambo avuga ngo ibitaro bya Ruhengeri bishatse kuvuga ko ari icyapa kiyobora abantu baje kwivuza kuri ibi bitaro.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bisa, imbere yabyo hakaba hari ibitambaro by'ubururu bikingiriza ibitanda, naho hejuru ya buri gitanda hakaba hari inzitiramibu, bigaragara ko ari mu bitaro cyangwa se kwa muganga. Ibi byose bikaba bikorwa mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze.

Inyubako nziza irimo ibikoresho byiza cyane, ubona ko yubatse neza kandi irimo amabara meza cyane, hasi harakoteye neza cyane wagira ngo harimo itapi, hejuru hari amatara meza y'umweru kandi ku ruhande hari udutebe twiza tw'urubaho.

Umuganga wicaye wambaye itaburiya y'umweru akaba yicaye ku gatebe k'icyatsi iruhande rwe hakaba hari igikoresho cy'icyatsi umurwayi aryamaho baje kumupima, iruhande hari tereviziyo igaragaza ukuntu umurwayi ameze, inyuma ye kandi hari irido.

Igikapu cyiza cy’umutuku gifite imigozi y’umukara, gifite udufuka twinshi dutandukanye, hejuru kandi hakaba hari ikindi gikapu kirimo udukoresho twinshi dutandukanye, bisa naho ari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ibintu bitandukanye, harimo akuma k'umukara kifashishwa umuntu ari guterura mu rwego rwo gukora siporo, hakaba hari urubuto rwa voka y'icyatsi, hakaba ari urubuto rwa pome, urubuto rwa oranje, hakaba hari urubuga rwa shufureri, urusenda ndetse na puwavuro y'umuhondo n'iy'umutuku.

Abantu bapfukamye imbere y'umuntu uryamye, bigaragara ko yagize ikibazo cyo mu mutwe, kubera ko bamuziritse amaguru, aryamye ku buriri buriho igitambaro cy'ubururu, kandi bigaragara ko arembye cyane.

Umukobwa wambaye agaseri ndetse n'agapantaro kamufashe yazamuye amaboko hejuru arayafatanya bigaragara ko arimo kwinanura ahagaze iruhande rw'inyanja bisa naho yakoze urugendo shuri yagiye kureba uburyo umuvu utemba.

Umukobwa wicaye urimo gukora siporo, akaba yarambuye amaguru, ukuguru kumwe kurambuye, ukundi kurahinnye, yambaye inkweto zijya gusa nka move, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri kajya gusa nka oranje kandi arunamye, ukuboko kumwe kwakoze ku ivi, ukundi gukora ku kirenge.

Abantu babiri bicaye ku buriri akaba ari umugore ndetse n'umwana, bigaragara ko ari umubyeyi we, umwana yambaye agapira k'umweru n'agakanzu kajya gusa n'umweru ndetse n'amasogisi y'umweru, naho mama we akaba yambaye imyenda y'ibitenge yiganjemo amabara y'ubururu.

Umukobwa uryamye hasi, urimo gukora siporo, akaba arimo kwinanura araramye areba hejuru, yashyize amaboko hasi, kandi yarebesheje umutwe we hejuru, imisatsi ye iri gukora mu mugongo, ikindi kandi yambaye ipantaro y'umukara, n'agasengeri karimo uturongo tujya gusa n'umutuku.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, bigaragara ko ari umumama, yambaye agashakapulari mu ijosi, kandi yambaye impeta ku rutoki. Akaba afatiye akantu kameze nk'isashi ku kuboko, bisa naho arimo kwivura, aho yavunitse ku kuboko.

Umukobwa wicaye urimo gukora siporo. Yambaye akenda keza kamufashe ka kora gasa nka rujeborudo karamufashe cyane rwose, ubona ko wagirango nta kintu yambaye. Yagoroye amaboko ye maze afata amaguru mu rwego rwo kugorora ingingo ze.

Umuntu uhagaze bigaragara ko yavunitse ku mavi kubera ko ku mavi hariho utuntu tw'ubururu ndetse n'utundi twa move, bigaragara ko ari abaganga batumushyizeho.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga cyane cyane igihe barimo gupima umutima ,hanyuma umuganga akambara mu matwi akandi gace ko hasi akagakoza ku mutima w'umurwayi ,bityo bikamufasha kumenya uko umutima w'umurwayi urimo gutera.

Agakoresho kifashishwa igihe abantu barimo gukora siporo kakaba gafasha abantu kugira amatuza manini cyane. Rero nawe ushobora kukifashisha kugira ngo ugire amatuza cyane cyane kuri ba bantu bakunda kugira ibituza binini.

Umuntu wicaye bigaragara ko yavunitse akaba ari kwa muganga, barimo kumurambura amaguru kubera ko yakoze impanuka, ku maguru ye hariho ibipfuko kubera ko yavunitse, imbere ye hari umusore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa urimo gukora siporo. Akaba yambaye agasengeri k'icyatsi, n'agakabutura gatoya k'ubururu, n'inkweto za supuresi zifashishwa muri siporo. Hasi aho ari gukorera siporo, hashashemo itapi y'icyatsi. Afashe ku biti bimeze nk'ibyuma, bimufasha gukora siporo.

Imipira ikoreshwa mu mikino itandukanye, hakaba harimo umupira ukinwa muri Rugubi, umupira ukinwa muri basikete, umupira ukinwa mu mikino y'amaguru, udutenesi ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima umutima, mu rwego rwo kumenya uburyo umutima utera.

Umuntu urimo gukora siporo, akaba yunamye ashaka gufata utuntu tumeze nk'udukombe mu ntoki turi mu mabara ya oranje, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku n'ikabutura y'umukara irimo akarongo k'umutuku, ikindi yambaye amasogisi y'umukara n'inkweto zijya gusa nk'ivu.

Umuntu wicaye urimo gukora siporo. Yambaye isengeri y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Akaba yicaye yarambuye amaguru, amaboko ye yayakojeje ku birenge, bigaragara ko arimo gukora siporo mu rwego rwo kubaka umubiri.

Umuntu w'umukobwa wunamye, akaba yambaye agakabutura k'icyatsi ndetse n'isaha ku kuboko, akaba yambaye kandi inkweto za supuresi ziri mu ibara ry'icyatsi n'agasengeri k'icyatsi, bigaragara nk'aho ari muri siporo akaba arushye, yunamye, arimo kuruhuka.

Umuntu wicaye ku gitanda bigaragara ko ari umukobwa n'undi urimo kumupfuka ku kuguru bishoboka ko ashobora kuba yakomeretse, akaba arimo kumupfukisha igipfuko kiri mu ibara ry'umutuku.

Umukobwa urimo kunywa amazi mu icupa ry'igurude, yambaye ekuteri mu matwi , ikindi kandi yambaye agasengeri ka move, akaba afite imisatsi ya natileri yahambiriye inyuma, akaba yambaye kandi akantu ku kuboko k'umukara.

Abantu babiri umwe araryamye yambaye ikariso y'umukara ndetse n'inkweto za supurese, undi arahagaze akaba arimo kumukanda mu ntege, bisa naho arimo ku mugorora, akaba yananiwe, ikindi kandi urimo ku mugorora yambaye udukomo ku maboko n'agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'umukara arimo gukora siporo, ukuguru kumwe kuri hejuru naho ukundi kuri hasi, bisa naho arimo kugorora amaguru, yambaye isaha y'umukara ku kuboko naho ku kuguru yambaye urukweto rw'umweru ndetse n'isogisi ry'umweru.

Abantu babiri umusore n'umukobwa umwe aricaye undi arahagaze, imbere yabo hari ibikapu by'umukara hanyuma umukobwa yambaye agakabutura k'umukara karimo uturongo tw'umweru n'agasengeri ka gireyi ariko umusore yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara.

Umukobwa wicaye, urimo gukora siporo, wakunjije amaguru ye, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande hari agacupa k'amazi, ndetse n'udukoresho aterura arimo gukora siporo, yambaye agasengeri k'umukara, yambaye kandi n'ipantaro imeze nk'itiriningi, arimo kugorora amaboko.

Umuntu wicaye ukuguru kumwe yakurambije, ukundi yaguhinnye, yafashe ishashi ayifatira ku kuguru ku kabumbamore bigaragara ko hashobora kuba havunitse, akaba arimo kuhakanda mu rwego rwo kugira ngo hakire, akaba afite amaguru y'inzobe n'intoki z'inzobe.

Inzu nini cyane bigaragara ko ari sare itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi zitandukanye harimo kandi udukoresho tumeze nk'utubati tubikwamo ibikoresho, hejuru kandi hari ibikoresho bimeze nka baro.

Ijagi nziza y'umweru, ndetse nikirahuri cyiza cy'umweru, ubona ko byose bikozwe muburyo bwi'ibirahure, hakaba hari umuntu uri gusuka amazi mu kirahuri ubona ko ari amazi meza cyane y'urubogobogo.

Abana bishimye cyane, barimo kwidagadura bakina umukino uzwi nka basikete, nawe ushobora kuza ukifatanya nabo ubundi mugafatanya ibyishimo kubera ko gukina ari ingenzi mu buzima, ikindi kandi gukina bituma umuntu agira ibyishimo byinshi cyane.

Ikirango cyamamaza kiriho umuntu urimo kwirukanka bigaragara ko barimo kwamamaza ibijyanye n'imyitozo yo kwirukanka, yambaye isengeri ndetse n'ikabutura hamwe n'inkweto byabugenewe byo gukoresha siporo. Hakaba handitseho ngo Official website of Rwanda Athletics Federation.

Agasanduku k'umweru kariho ikimenyetso cy'umusaraba bigaragara ko karimo amaraso kazanywe n'indege itagira abapilote izwi nka dorone, dorone akaba ari indege zifashishwa mu kugeza ahantu serivisi zijyanye n'ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi vuba.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi akaba araramye arimo kunywa amazi mu gacupa kazwi nka gurude, arimo kunywa amazi kubera ko amazi ari ingenzi mu buzima rero nawe ushobora kwihatira kunywa amazi kuko amazi ni kimwe mu bigize umubiri wacu.

Imbago ni igikoresho umuntu yifashisha igihe yavunitse ukuguru hasi hari akantu k'umukara gatuma itanyerera, hejuru hariho akandi kantu k'umukara umuntu afataho kugira ngo abone uko ayigenderaho, hejuru kandi hari akandi kantu gatambitse gatuma ukuboko gukomera.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu afashe umupira w'amaguru mu ntoki, yambaye agapira ka tisheti n'ikabutura, naho umukobwa yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ariko na none afashe icyuma mu ntoki agenderaho, bishoboka ko yaba yaravunitse abana n'ubumuga.

Umuntu urimo kunywa amazi mu igurude, akaba afite agatambaro kameze nk'isume ku rutugu, yambaye agapira k'umukara, afite ubwanwa abenshi bita zerofote.

Umuntu wicaye wambaye agapira ka rakosite ubona ko kari mu ibara rya gireyi, afashe ku kuboko kwe kw'ibumoso bigaragara ko ukuboko kwe kwagize ikibazo kuko yashyizeho agatambaro, asa n'umuntu wakomeretse.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye hakaba hariho ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu gukora siporo hakaba kandi agakoresho kifashishwa mu gupima umutima mu rwego rwo kumenya ukuntu umutima uhagaze hakaba ari nano agakoresho kameze nk'umutima kariho ibirungo bitandukanye byifashishwa mu guteka ibiryo byinshi bitandukanye hirya yabyo hakaba hari inkweto za superesi.

Umuntu uryamye uhinnye ivi n'undi uhagaze wambaye itaburiya y'umweru akaba afashe ku kuguru k'umuntu uryamye bigaragara ko arimo kumugorora bityo akaba arimo kumufasha kugorora akaguru.

Umuntu uraramye urimo kunywa amazi mu gacupa keza k'umweru bigaragara ko ari amazi meza cyane y'urubogobogo, akaba ari agacupa ka parasitike, akaba nanone ari kuyanywa yishimye cyane kubera ko yanze gukura agacupa ku munwa, ikindi kandi afite utwanwa duke.

Udusanduku tubiri tw'umutuku, akaba ari udusanduku tubikwamo imiti, mu rwego rwo kugira ngo bite ku bantu batandukanye, utu dusanduku dukunda gukoreshwa n'abantu bakora muri Kuruwa ruje hagati harimo agacupa kameze nk'igurude.

Umukobwa wicaye mu buryo bw'abakorobasi, akaba yazinze amaguru ye mu buryo budasanzwe, yambaye agapantaro kamufashe cyane kameze nka kola, kandi yambaye agasengeri k'umukara, imbere ye hari icupa rya gurude ririmo amazi yo kunywa, akaba arimo gukora siporo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga afashe ikintu cy'umutuku kimeze nka kasike, inyuma ye mu nguni naho hari ikintu cy'ubururu kimeze nka kasike abamotari bambara, kandi imbere ye hari igikoresho cyifashishwa bazimya umuriro kizwi nka kizimyamwoto.

Umukobwa urimo kunywa amazi. Yambaye ekuteri z'umweru, n'agapira kajya gusa n'umutuku. Ikindi yambaye akantu ku kuboko kajya gusa n'umutuku. Iruhande rwe, hasa n'ahari umuhanda, usa n'umweru.

Abantu babiri bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bisa n'aho ari abakinnyi, umwe araryamye naho undi arapfukamye ari kumukanda ku mavi nk'aho yavunitse, uryamye yambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara ndetse n'amasogisi y'umukara, upfukamye na we yambaye agapira k'ubururu hamwe n'ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku, iruhande rwabo hari baro.

Urugemwe rwiza cyane rwa avoka, avoka akaba ari urubuto abantu benshi bakunda kubera ko rukungahaye kuri vitamine zikomeye cyane zifasha umubiri kumererwa neza, rero ni byiza ko abantu bahinga urubuto rwa avoka mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Igitunguru gikasemo ibice bibiri, iruhande rw'igitunguru cy'igice, hari ibice bibiri by'ironji, naho iruhande rw'ironji, hari icupa ririmo umutobe w'ironji, hejuru hakaba hari amagambo avuga ngo baho neza tv.

Ikibabi k'ikibonobono, ikibonobono akaba ari ubwoko bw'igiti gikunze kugaragara mu mirima yo mu cyaro, akenshi ubisanga ahantu mu bisambu bidakunze guhingwamo, urabona ko ari ikibabi gifite uduce twinshi dutandukanye, bimeze nk'ikiganza.

Agacupa keza cyane k'umweru, gashushanyijeho agasimba gato kameze nk'igisiga, hasi handitseho amagambo avuga ngo "Forever iVision" mu ibara ry'ubururu, nanone hasi hari agashushanyo kari mu ibara ry'ubururu gashushanyijemo umubare mirongo itandatu, bishatse kuvuga ko harimo ibinini mirongo itandatu.

Tungurusumu nyinshi cyane ubona ko zeze neza, tungurusumu akaba ari utuntu tumeze nk'ibitunguru ariko nanone ntabwo zikora nk'ibitunguru, tungurusumu zishyirwa mu biryo kugira ngo bihumure kandi zikora nk'umuti rero nawe wazifashisha kugira ngo zikuvure uburwayi butandukanye.

Igihingwa kimeze nk'uruyuzi. Kikaba cyararabye indabo zijya gusa nka move. Kikaba gifite amababi menshi, bigaragara ko kikirimo gukura, bityo kikaba kirimo no kuraba, kugira ngo kizazeho ibihaza.

Igiti gishishe gifite amababi meza yi'cyatsi kandi menshi, bigaragara ko cyafumbiwe kabisa. Akaba ari igiti cyitwa umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, giteye hagati y'igipangu kimwe n'ikindi.

Indabo zitandukanye, akaba ari indabo ziri mu mabara agiye atandukanye, hakaba hari ururabo rwarabye rw'umuhondo, hakaba hari ururabyo rw'umutuku, ururabo rwa move, hakaba hari n'urundi rutararaba ruri mu mabara y'icyatsi.

Abantu batandukanye bari mu murima w'ubuhinzi, hakaba harimo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abambaye imipira y'umweru. Imbere yabo hari imodoka zifashishwa mu buhinzi, akaba ari imodoka ebyiri kandi zitwarwa n'abantu, mu murima hakaba harimo ibihingwa bisa naho imashini zirimo kubagara.

Igiti gifite amababi y'icyatsi menshi cyane abenshi babizi bazi ko cyitwa umuravumba, akaba ari igiti abantu bifashisha igihe barwaye mu mihogo, ukaba ufata ibibabi ukabisoroma ubundi ukabihekenya bityo ukongera ugakira ukagira ubuzima bwiza.

Tangawizi ifite utuntu tugiye tuyishamikiyeho, imbere hari tangawizi ikasemo uduce dutanu, tukaba ari uduce dukaze mu buryo bw'utuzeru, rero tangawizi ni nziza cyane.

Imbuto z'amaronji ubona ko hari imbuto nziza cyane zeze kandi zisa neza, akaba ari imbuto zimwe z'umuhondo n'izindi z'icyatsi, izi mbuto zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, nawe rero uzazirye wumve ukuntu ziryoha.

Agacupa keza cyane k'umweru kariho icyapa kiri mabara y'umukara azengurutse mo hagati hakaba harimo amagambo yanditsemo avuga ngo vitorayise, hasi yaho hakaba hari utundi tugambo twanditse turi mu mabara y'umukara.

Uducupa twiza cyane tw'umweru turiho n'amabara meza y'icyatsi, dushushanyijeho ibintu bimeze nk'ibikakarubamba, bigaragara ko ari imiti gakondo, imiti gakondo ifasha abantu kwivura igihe barwaye, bitabaye ngombwa kujya kwa muganga.

Icupa ry'umuhondo ubona ko ari rigufi, rifite umufuniko w'umutuku, rikaba rishushanyijeho agasimba kameze nk'aho kari kuguruka. Hasi handitseho amagambo avuga ngo foreva aloyi vera jeli, bikaba bigaragaza ko harimo imiti itandukanye byose bikaba byanditse mu mabara y'umutuku.